Gukoresha imashini bigusaba kubikamo ibyo wari wakoze, kugira ngo uzajye wibuka ibyo wabitse ugasubiramo ukareba, kuko ibika ibintu byinshi, iyo ubibitse biragufasha kugira ngo uzamenye raporo uko wayitanze mu kazi kawe.

Nkunda inturusu za nyiramwezi. Zigira ibibabi byiza, ndetse bivamo umuti. Iyo umuntu yarwaye umutwe arabyivurisha. Arabicanira, akabyunamamo. Iyo ubyunamyemo, ukabira ibyuya ,uvamo imisonga mu mutwe yakize. Biba byiza cyane.

Igishyimbo iyo kiguye mu butaka kiramera, ugikurikiranye ukacyitaho cya kwera ibindi bishyimbo byinshi, kuko icyo gihe kiba gifite ubuziranenge kandi cyaba kereye igihe kitari icyacyo, nta kibazo cyana kwera.

Ibimera bitugirira umumaro, kuko bikorwamo imiti, imiti ikatuvura kandi ku buryo bireba byameze twese duhumeka umwuka mwiza, kubera ko ikurura amahumbezi mu buzima bwizaza bakeneye, ogisigene cyangwa se umwuka, kugirango ngo ube mwiza noneho duhumeka biba byiza cyane.

Gutera indabo ziba nziza mu rugo ndetse zikagaragara neza, zikavamo n'umuti uvura abantu, zikaba zifite akamaro ku bantu bose rusange mu buzima busanzwe.

Indabo ziba nziza iyo uziteye ziba ku rugo, zigaragara neza nk'umutako wateguye neza, kandi ikindi zivamo n'imiti nubwo abantu bose baba batazi icyo zivura, ziba nziza.

Guhinga ubusitani bibaga byiza, kuko iyo unaniwe urataha ukaza ukicaramo ukaruhura umugongo. Ababufite iwabo mu rugo, babona ari bwiza nk'ikirago.

Ibiti byo mu ishyamba bigaragara neza kuko ubona bitoshye, kuko igihe cyose bihora bimeze nk'aho biri mu gishanga, ndetse ukabona amababi yabyo aratoshye arabereye bihora ari byiza.

Nkunda ibimera. Kuko bivamo imiti myinshi ivura abantu, ubuzima bwabo bukagenda neza. Ndetse bigafasha n'abantu guhumeka umwuka mwiza.

Guhinga avoka ,bisaba guhinga ahantu hafite umwanya mugari, kugira ngo itazagira ibyo yangiriza, kuko igugara cyane, bigatuma ifata umwanya munini.

Guhinga beterave, iba nziza kuko yongera amaraso. Uyinyoye, yongera ubuzima bwiza. Abana biba byiza kuyinywa.

Ibyatsi biba byiza byimeza ahantu kuko ku isaha ubisangamo imiti y'amoko atandukanye ndetse ikarinda ubuzima bwacu.